Inzu nini cyane irimo ibintu bitandukanye; harimo intebe, ameza afite ibitambaro bifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umutuku. Hirya hari umuntu wambaye ibara risa n'umuhondo.

Akabari keza cyane karimo ibinyobwa bitandukanye, hahagazemo umuntu wambaye ishati isa n'umukara. Iruhande rwe hari intebe ifite amabara atandukanye amwe asa n'icyatsi andi asa n'umukara.

Inzu bacururizamo ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, andi asa n'umutuku ayandi asa n'umweru, imbere yayo hari umutaka ufite amabara atandukanye amwe asa n'umutuku, andi asa n'umuhondo, andi asa n'ubururu. Imbere y'uwo mutaka hakaba hari utwuma dufite amabara asa n'umweru, iruhande rw'iyo nzu hari indi nzu ifite amabara asa n'umweru.

Inzu bacururizamo akabari isakaje amabati asa n'ubururu hanze yaho hubakishije imigano, hirya hari umuntu wasohokaga wambaye imyenda ifite amabara atandukanye imwe isa n'ubururu indi isa n'umukara.

Akabari karimo urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umutuku, andi asa n'umukara, andi asa n'icyatsi, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa atandukanye, amwe asa n'umuhondo, hariho ibirahuri banyweramo.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo yubatswe mu buryo bugezweho, bita etaje, igeretse kabiri, imbere yaho hari icyapa gifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, andi asa n'umukara, andi asa n'umweru.

Inzu yubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabara atandukanye amwe asa n'umuhondo, andi asa n'ubururu. Hanze hayo hari amamatera menshi cyane afite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umutuku andi asa n'umukara, andi asa n'ubururu.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho， ifite amabara atandukanye， amwe asa n'umweru，andi asa n'umukara， andi asa n'umutuku，hanze y'iyo nzu， hari imodoka nziza cyane， ifite amabara asa n'umukara， andi asa n'umweru.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara ayandi asa n'umweru, hanze yayo hari amasima hirya hari abantu babiri, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'umutuku ayandi asa n'ubururu.

Inzu z'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, zifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, ayandi asa n'umuhondo, imbere yayo hari umutaka usa n'umuhondo, harimo abantu bambaye amabara atandukanye amwe asa n'umutuku, ayandi asa n'umuhondo, ayandi asa n'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara andi asa n'umuhondo ayandi asa n'umutuku, impande yayo hari akazu gasa n'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi bacururizagamo ibicuruzwa bitandukanye yubatswe mu buryo bugezweho hanze hari aho bacururiza, ibicuruzwa bitandukanye harimo amabase afite amabara atandukanye, amwe asa n' ubururu andi agasa n' umutuku, Andi asa n' umuhondo impande yabo hari abantu benshi cyane.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye. Hejuru hari icyapa kimanitse gishushanyijeho ibyo bacuruza. Inyama, inzoga, handikishijeho amagambo afite ibara ry'umukara.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, yubatswe mu buryo bugezweho, igeretse gatatu, ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa na kaki, imbere y'iyo nzu hari umuntu watambukaga wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara andi asa n'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye harimo amagaze afite amabara atandukanye amwe asa n'umutuku, andi asa n'ubururu, andi asa n'umuhondo. Hirya hari ikidomoro gisa n'umuhondo inyuma y'izo nzu hari insina z'ibitoki.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye ifite amabara atandukanye amwe asa n'umukara, andi asa n'umweru. Ifite icyapa kiriho amabara atandukanyemo amwe asa n'umuhondo andi asa n'umukara, andi asa n'umweru.

Inzu z'ubucuruzi bacururizagamo ibicuruzwa bitandukanye yubatswe mu buryo bugezweho. Ifite inzugi zisa n'umweru, hanze hari ibyapa byandikishijweho amabara atandukanye amwe asa n'icyatsi andi asa n'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, bifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, hanze hatanditse amakanzu afite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asa n'umutuku, andi asa n'umweru, hirya har'ibyapa byinshi cyane.

Inzu y'ubucuruzi bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabara asa n'umweru, hanze yayo hari ibyatsi, hari n'abantu bayicaye, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, ayandi asa n'umweru, ayandi asa n'umuhondo, ikindi kandi haparitse abanyonzi.

Inzu nziza bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabara atandukanye, mwe asa n'umweru, andi asa n'icyatsi, hanze hari ibyapa bibiri bifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'mutuku, andi asa n'umukara, hirya hakaba umuntu utwaye igare.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye: ingofero zifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'icyatsi, andi asa n'umutuku, andi asa n'umukara. Imbere zayo hari umuntu wambaye ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, andi asa n'umukara. Hirya hakaba hari umuntu ucuruza ama-inite.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabara asa n'umuhondo, hejuru yayo hari icyapa gifite amabara atandukanyemo asa n' umutuku asa n'umweru ayandi asa n'umukara hanze hari imodoka ifite amabara asa n'ubururu hirya hakaba hari moto iparitse.

Inzu y'ubucuruzi bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabara atandukanye amwe asa n'umuhondo andi asa n'umweru. Imbere yayo hari umuntu wambaye umupira usa n'ubururu ku mutwe we hari ingofero isa n'icyatsi hejuru hari icyapa gisobanura ibyo bakora.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amavuta, inzoga, amaji afite amabara atandukanye, amwe asa n'icyatsi, andi asa n'umuhondo, andi asa n'ubururu andi asa n'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabara atandukanye amwe asa na kaki, ayandi asa n'umweru. Hari icyapa cyandikishijweho amabara atandukanye, amwe asa n'uburu, andi asa n'umukara, andi asa n'umweru, kiriho abantu.

Inzu z'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye. Zifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, ayandi asa n'ubururu, ayandi asa n'umukara, ayandi asa na kaki. Hirya yazo hari imodoka eshatu zifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabati asa n'icyatsi, hirya har'indi nzu isakaje amabati asa n'umweru, imbere yayo har'icyapa gifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, ayandi asa n'umweru, imbere yayo har'indabyo zisa n'umuhondo.

Inzu z'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, zifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asag n'ubururu, hanze yaho hatanditse ibikapu, impande yaho hari abantu benshi bambaye imyenda zifite amabara gatandukanye, amwe asa n'ubururu, andi asa n'umutuku.

Inzu z'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, yubatswe mu buryo bugezweho. Ifite amabara asa n'umukara ayandi asa n'umweru. Hatanditse ibirayi, inyanya ,ibitoki ibitunguru. Hari imitaka isa n'umutuku, hirya hari umuntu wikoreye agapaniye.

Ni ubucuruzi bacururizaga mu bicuruzwa bitandukanye. Hari icyapa cyandikishijweho ibara risa n’umukara, impande yayo hari indabo nziza cyane.

Inzu yubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, isakaje amabati yasaga n'ubururu, impande yayo hari umuntu ufite agafuka mu mugongo, hirya hakaba hari indabyo bita urusasa.

Inzu y'ubucuruzi bacuruzaho ibicuruzwa bitandukanye, ifite ibara risa n'umuhondo, hanze hari icyapa cyandikishijwe amagambo afite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara andi asa n'umweru, hashushanyijeho ibyo kurya, amakaroni n'ibitunguru.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye ifite amabara atandukanye amwe asa n'icyatsi, asa n'umweru. Imbere yaho hari icyapa gifite amabara atandukanye harimo asa n'icyatsi, asa n'umweru andasaga n'umukara nasa n'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo, ayandi asa n'umweru, hakaba hari icyapa gifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, ayandi asa n'umutuku, ayandi asa n'umweru, ayandi asa n'icyatsi.

Inzu z'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, zifite amarangi gatandukanye, amwe asa n'umweru andi asa.na' kaki. Hanze hari icyapa kiriho icupa rya mitsingi, hirya hari indabyo bita insasa.

Inzu isakaje amategura ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, ayandi asa n'umuhondo, ayandi asa n'ubururu. Hanze hakaba hari imodoka isa n'umukara, hirya y'iyo modoka hakaba hari umuntu wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, ayandi asa n'umweru.

Inzu nini ifite amabara asa n'umuhondo, hanze hateretse amakesi asa n'umutuku, hirya yaho hari abantu bambaye imyenda itandukanye, isa n'umukara isa n'umweru isa n'umutuku, hirya hakaba imodoka n'amamoto.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye harimo amasafuriya, iruhande rw'iyo safuriya hari akadobo gasa n'ubururu, hirya hari amabase afite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, ayandi asa n'icyatsi, andi asa n'umutuku. Hirya hakaba hari ibikapu, hejuru hakaba hari imyenda.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabara yatandukanye, yamwe yasaga n'umweru, ayandi yasaga n'umukara, bisakaje amabati meza cyane yagezweho.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo imyenda ifite amabara asa n'umukara, ayandi asa n'umweru, ayandi asa n'umutuku, imyenda bakaba baziraramo.

Inzu y'ubucuruzi bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye, yubatse mu buryo bugezweho, igereretse kabiri, ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umuhondo, hanze hatanditse ibikapu bifite amabara asa n'umukara, hirya hari amabase.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibikombe bifite amabara atandukanye, amwe asa n'umwemweru, andi asa n'umutuku, hirya yabyo hari ibirushe bisa n'umukara, hejuru hakaba ibisorori bimeze neza cyane.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imyenda itandukanye ifite amabara atandukanye, harimo asa n'umweru ayandi asa n'umutuku ayandi asa n'umukara, ayandi asa na kaki hasi hari ibiringiti biyorosa hariho umuntu uhicaye.

Inzu z'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, zifite amabara atandukanye harimo asa n'umuhondo, andi asa n'umweru, andi asa n'ubururu, imbere yazo hari umuntu watambuka ufashe umukuzo, zifite inzugi zifite amabara atandukanye, amwe asa n'icyatsi, andi asa n'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, iteye icyapa gisa n'umuhondo, ifite inzugi zisa n'ubururu, hanze yawo hari moto iparitseho ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, ayandi asa n'umutuku, ayandi asa n'umukara.

Inzu z'ubucuruzi bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye bifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru. Hejuru hari icyapa gifite amabara atandukanye amwe asa n'umukara, andi asa n'umweru, andi asa n'ubururu. Umuryango wabo ufite ibara risa n'umweru, mo imbere. Harimo umuntu.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, yubatswe mu buryo bugezweho. Ifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara, inzugi zayo zifite ibara risa n'umutuku. Hanze hari icyapa gisa n'umukara, cyandikishijweho ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi bacururizagamo ibicuruzwa bitandukanye, ishakaje amabati i asa n'umutuku, ifite amadirishya afite amabara asa n'umweru, hanze yaho hari imbabura bakora, hijya hariho umuntu wambaye ikanzu ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, ayandi asa n'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye. Isize amarangi y'umuhondo. Inzugi zisize irangi risa n'icyatsi. Bacururizamo amakara, hanze hari umuntu wunamye, ku rugi hari igitenge.

Inzu z'ubucuruzi bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye, zifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo, ayandi asa n'umweru, ayandi asa n'icyatsi, zifite inzugi zifite amabara asa n'ubururu, hirya hari umuntu uhagaze warebaga ku muryango wayo hamanitse udufuka.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, andi asa n'ubururu, andi asa n'umuhondo. Imbere harimo abantu babiri bambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru. Imbere y'abantu hari imodoka ifite amabara atandukanye.

Inzu y'ubucuruzi bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye ifite amabara atandukanye kamwe gasa n'umweru Kandi gasa n'umuhondo hejuru hari icyapa gisa n'umutuku hariho umunyu mo imbere harimo imifuka myinshi cyane ifite amabara y'icyatsi

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, hanze hateretse gaze, iruhande hari igare, hakaba hari ibishashi, hirya hari ingofero mo imbere hakaba harimo inzoga n'amazi, hejuru hari baro.

Butike bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, bakoramo amatelefone. Hirya hari pulize icometsemo cagi. Iruhande hari uturoso, hino hari amatelefone bakora telefone ziba nziza zituma umuntu ahamagara byihuse.

Inzu nziza bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye. Hanze hari icyapa cyanditseho amusiteri. Gifite amabara atandukanye. Amwe asa n'umweru, andi asa na kake, andi asa n'umukara. Hirya hari icyatsi cy'ururabyo.

Amazu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, hejuru hari icyapa cyandikishijweho amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umuhondo, andi asa n'umukara, imbere mu nzu hateretsemo indobo n'intebe n'ameza.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, bifite amabara atandukanye. Amwe asa n'umweru, andi asa n'ubururu, andi asa n'umuhondo. Hanze yaho hari umuntu wikoreye. Hirya hakaba igipangu gisa n'umukara. Hari icyapa gifite amabara asa n'umweru, andi umukara.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabara asa n'umweru yubatse mu buryo bugezweho, hejuru hari ibyapa bibiri hanze hatanditse amarangi ari mu ndobo, ayandi ari mu bidoro, hirya hari imeza ihateretse n'ikidoro n'ibasi.

Inzu y’ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amakarito afite amabara atandukanye; amwe asa na kaki, andi asa n’umutuku, andi asa n’umuhondo. Abakiriya baraza kugura, batanga amafaranga.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabara asa n'umweru, imbere yayo hari umugore ufite imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru andi asa n'umukara, n'andi asa na kaki ku mutwe we hariho urukweto.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye harimo umuceri, amabahasha, amakayi, magi, amakaramu afite amabara atandukanye amwe asa n'ubururu ayandi asa n'icyasi. Impande zayo hari amazi hirya hakaba amacupa ya fanta.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, andi asa n'umuhondo, imbere yayo hari abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa na kake, andi asa n'ubururu, andi asa n'umweru, andi asa n'umukara, hirya hari igiti.

Inzu z'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, zifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo, andi asaga n'umweru, andi asa n'ubururu, imbere yazo hateretseho imifuka myinshi cyane, bacururizamo imyaka, hirya hamanitse imifuka.

inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, bifite amabara atandukanye:amwe asa n'umweru, ayandi asa n'ubururu, amabati yayo asa n'umutuku, hanze hari icyapa gifite amabara atandukanye:amwe asa n'umweru, ayandi asa n'umukara, iruhande rw'icyo cyapa hari indabyo.

inzu y'ubucuruzi bacururirizagamo ibicuruzwa bitandukanye bifite, amabarariro afite icyapa cyanefite amabaraatandukanye abamo asa n'umuhondo, asa n'umweru, ayandi asa n'umukara yishushanyijeho ibintu bitandukanye imigati ,amavuta ,inzoga, amaji.

Inzu y'ubucuruzi bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye, yubatswe mu buryo bugezweho ifite amarangi asa n'umweru, hanze hatanditse ibitenge bifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, andi asa n'umutuku, andi asa n'umweru, andi asa n'icyatsi, mu nzu hateretsemo imashini.

Inzu y'ubucuruzi, bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye bifite amabara asa n'umweru, imbere yayo hari amakesi asa n'umutuku, hari imodoka isa n'ubururu, hirya hakabaho igifuso kinini cyane gifite amabara asa n'umweru, ay'andi asa n'icyatsi ayandi asa n'umukara, hirya hakaba hari umutaka hakaba hari abantu benshi.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, amaterefoni, amaposheti afite amabara atandukanye, aba asa n'icyatsi, andi asa n'umutuku, andi asa n'umuhondo. Hirya yaho hari abantu benshi cyane.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye. ifite amabara atandukanye asa na kaki. Ifite icyapa kigaragaza ibyo bakoreramo, ifite amabara atandukanye amwe asa n'umutuku, andi asa n''ubururu, andi asa n'umweru, hariho amamashini.

Inzu nziza bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabara asa n'umuhondo, hariho icyapa gifite amabara atandukanye amwe asa n'umuhondo, andi asa n'umukara ayandi asa n'ubururu, imbere yayo hari umuntu wambaye umwenda usa n'umuhondo.

Inzu y' ubucuruzi bacururizagamo, ibicuruzwa bitandukanye ifite icapa gifite amabara atandukanye, amwe asa n' umweru, andi asa n' umukara, andi asa n' umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye, yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amarangi asa n'umweru, hejuru har'icyapa gifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, imbere yayo hari ibyatsi bisa n'icyatsi, hirya hakaba hari intebe, hakaba hari n'inzugi zisa n'umukara.

Inzu z'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye zubatswe mu buryo bugezweho zifite amarangi atandukanye mu gasagara n'umweru zifite inzugi zisize amarangi asa n'umweru imbere harimo agatebe ku muryango ujya hanze hatanditse inyanya hateretse amabase.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabara asa n'umweru, hari icyapa kiriho ibyo bateka.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo bicuruzwa bitandukanye, yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, andi asa n'umweru, andi asa n'umukara, imbere ya yo hari abantu bicaye.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye ifite amarangi atandukanye amwe asa n'umweru, andi asa n'icyatsi. Hanze ku muryango haparitse igare hirya hatanditse ibikapu.

Inzu y'ubucuruzi bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye. Ifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru andi asa na kaki. Hanze ku muryango hari akadobo gafite ibara risa n'umweru. Hakurya hari inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho. Ifite amabara asa n'umweru.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, imbere yayo hari indabo zimeze neza cyane . hari icyapa cyandikishije amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo, andi asa n'umukara, hirya hari inzu ya etaje igeretse kane.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabara asa n'umweru, hanze hari umudaso wambaye imyenda isa n'icyatsi, hirya hari amagare ariho abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, ayandi asa n'umutuku, ayandi asa n'umukara.

Inzu nziza bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite ibara risa n'umuhondo, hateretseho akabase gasa n'icyatsi karimo avoka. Iruhande rwayo, hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye.

Ibyapa byinshi byanditsweho amagambo atandukanye, amagambo afite amabara atandukanye asa n'umukara, asa n'umutuku, asa n'umuhondo, asa n'umweru, asa n'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabara atandukanye amwe asa n'icyatsi, imbere y'aho hari icyapa gifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku ayandi asa n'umweru, hirya hari ibiti byinshi cyane.

Inzu z'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye zifite amabara asa n'umuhondo imbere yayo hari imodoka ihaparitse ifite amabara atandukanyemo asa n'ubururu, n'asa n'umukara, andi asa n'umweru ayandi asa n'umuhondo , hirya y'iyo modoka hari umumotari.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye. Ifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru ayandi asaga n'ubururu. Ifite igipangu cyiza cyane, imbere hari umuntu ugendera ku igare. Hirya hari icyapa gifite amabara asa n'ubururu, ayandi asa n'umweru.

Inzu y’ubucuruzi yubatswe mu buryo bugezweho, isakaje amabati asa n’umutuku. Hirya, hari igipangu cyasaga n’ubururu. Hari icyapa cyanditsweho, hakaba hari indabo z’amateke.

Inzu y'ubucuruzi, bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabara asa n'umweru, imbere yayo hari umuntu ucuruza ibikoresho bitandukanye, harimo: poshete zifite amabara asa n'ubururu, andi asa n'umweru, andi asa n'umutuku. Imbere yayo hari icyapa kigaragaza ibyo akora.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye ishakaje amabati asa n'umutuku, hariho icyapa cyandikishijweho amabara atandukanye amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara. Imbere harimo indobo zirimo amarangi , harimo n'ibijerekani. Imbere y'iyo nzu hari umuntu wambaye imyenda ifite amabara atandukanye , amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara.

Hoteri nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, ifite amabara atandukanye, amwe asa na kake ayandi asa n'umweru, imbere yayo hari imodoka isa n'umukara, inyuma y'imodoka hari umuntu wambaye isarubeti isa n'ubururu.

Hoteri nziza cyane, yubatse mu buryo bugezweho, igeretse gatatu, ifite amabara atandukanye, harimo asa n'umweru, hanze hari igipangu gifite amabara asa n'icyatsi, hari icyapa kigaragaza ibyo kurya bihaba.

Isoko ryubatse neza cyane muburyo bugezweho, ryubakishije amatafari ahiye, imbere ya yo hari imodoka isa n'umukara, hirya hari umuntu wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asag n'umuhondo, andi asa n'umutuku, andi asa n'umukara.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ryubatswe mu buryo bugezweho harimo imineke, inanasi, amaronji, avoka, ibinyomoro, wotameroni, orange, ku gisima hicaye umwana.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imikeka ifite amabara atandukanye, amwe asa n'icyatsi, ayandi asa n'ubururu, ayandi asa n'umweru, ayandi n'umutuku, hirya hateretse ibase irimo ibikombe bisa n'umutuku, k'uruhande hateretse ibikombe bisa n'ubururu.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amaronji, watameruni, amapapayi, imyembe, hirya yabo hari amagi, barayateka, ikindi kandi atuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imigati, hirya yaho hari igitenge gifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, andi asa n'umukara, hino hari umuntu ukandagijeho ikirenge, yambaye inkweto zisa n'umutuku.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibikapu bifite amabara atandukanye. Amwe asa na kaki, andi asa n'umukara. Hirya hari urugi rusa n'umweru. Bacururizamo ibindi bintu.

Isoko ririmo ibicuruzwa bacuruza bitandukanye harimo ubuyunguruzo bufite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, andi asa n'icyatsi, andi asa n'umuhondo. Impande yabwo hari ga, hejuru hakaba ibyo bita imirunga.

Isoko bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, kokombure, ibihaza, amateke. Impande yabyo hari abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Amwe asa n'umutuku, andi asa n'umuhondo, andi asa n'icyatsi, andi asa n'umweru.

Isoko ry'ubucuruzi bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye. Harimo indobo isa na orange. Hirya yaho hari imifuka ifite amabara atandukanye asa n'umweru ayandi asa n'icyatsi. Hirya hari abantu benshi cyane bambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'umukara, ayandi asa n'icyatsi ayandi asa n'umutuku.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amasogisi afite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, andi asa n'umukara, andi asa n'ubururu, ayandi asa n'umweru, hirya hariho amakariso hejuru hamanitse ibitambaro.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, amavuta yo kurya, amavuta ayo kwisiga, amaji, ibishashi bapfunyikamo, hejuru hari udutambaro bakoresha bahanagura ibyombo, hirya hari amajyane, amasafuriya n'utubase, abakiriya barabigura.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizagamo ibicuruzwa bitandukanye harimo imboga, iruhande rwazo hari umukecuru wicaye wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu ,ayandi asa n'icyatsi hijya hari abantu benshi.

Isoko ry'ubucuruzi bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye: imikubuzo, imineke, amarongi, wotameroni. Impande yaho hari umutaka usa n'umuhondo, hirya hari abantu benshi cyane bambaye imyenda ifite amabara atandukanye.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibitenge, amabaze, harimo amamashini menshi abantu badoderaho imyenda, baraza bakayigura bakabaha ibiraka, babaha amafaranga.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye: harimo imyenda zifite amabara atandukanye . Amwe asa n'umukara andi asa n' umutuku, andi asa n'umweru . Impande zayo hari mare ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu ,Andi asa

Isoko bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo inanasi zirikundabo isa n'umweru, hanze hari amababi asa n'icyatsi bita isombe, barazibetesha kuko zituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Isoko ry’ubudozi, badoderamo ibintu bitandukanye, badoda imyenda, bafunika bibiliya. Impande yaho hari agapaniye gafite amabara atandukanye; amwe asa n’ubururu, andi asa n’umuhondo. Hateretse ameza, hariho n’imakasi.

Agasoko bacururizamo ibicuruza bitandukanye: inyanya, intoryi, ibitunguru, mbega hari akabase gafite ibara risa n'icyatsi. Harimo abantu benshi bambaye amabara atandukanye asa n'umukara andi asa n'umweru andi asa n'umutuku.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo isombe. Hakabamo abantu benshi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, imwe isa n'umukara, indi isa n'umutuku, indi isa n'umuhondo, indi n'ubururu . Impande hariho umuntu uhagaze, hariho ibase isa nk'ubururu.

Isoko bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imifuka ifite amabara asa n'umutuku, hirya hari umuntu wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara. Hirya hari inzu zubatse neza.

Isoko bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ibikosi bifite amabara atandukanye, harimo asa n'umuhondo, andi asa n'icyatsi, andi asa n'umutuku, impande yaho hari akabase gasa n'umutuku. Bikaba biteretse ku mukeka usa n'ubururu, hirya y'umukeka hari ibiduki bifite amabara atandukanye, arimo asa n'ubururu, andi asa n'icyatsi.

Isoko bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo: imyuko, udutambaro, imirunga, amabase afite amabara gatandukanye amwe asa n'umweru andi asa n'ubururu. Hirya yaho hari umuntu ucuruza bamuzanira amafaranga.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo intoryi, hakabamo puwavuro, harimo abantu benshi cyane, abacuruzi n'abaza kubahahira. Harimo amashu, hirya hakaba hari umuntu ufashe agapaniye.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibitoki bagurisha babaha amafaranga. Harimo abantu benshi cyane bambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'umukara, andi asa n'umutuku, andi asa n'umweru. Hirya hari umugore uhetse umwana aho witeze igitambaro.

Isoko bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo inyanya, hakabamo karoti, zikaba zirambitse ku mifuka ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa na kaki.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibikoresho bitandukanye, harimo ibiseke bifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, andi asa n'umweru, andi asa n'icyatsi, imbere yabyo hari imbabura ziba nziza cyane kuko bazitekaho.

Isoko ry'ibicuruzwa bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye harimo udukomo dufite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, asa n'umuhondo, andi asa n'icyatsi. Impande yatwo hari udusokozo dufite amabara atandukanye kamwe gasa n'umutuku ,asa n'ubururu hirya hari amasaro.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye: karoti, intogi, inyanya, pavuro. Abakiriya baraza bakabigura. Hirya hari abantu benshi cyane bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'icyasa andi asa n'umukara.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo: ibikombe bifite amabara agatandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'ubururu, ayandi asa n'icyatsi, impande yibikombe hari amabase afite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, ayandi asa n'ubururu, ayandi asa n'umukara, ayandi asa n'icyatsi.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, amapanu, ibikombe bifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'ubururu, andi asa n'icyatsi, andi asa na oranje. Hirya hari imirunga, hakabamo amasahane y'ubwoko butandukanye, amasituruwaya bakubisha amasafuriya, imyuko, ibyuma.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye harimo amata, amaji atandukanye, harimo lavida hirya yazo hari ama omo, imbere yazo hari amatelemusi, afite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, hirya hari indobo isa n'umweru.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amasutiye arambitse ku ihema afite amabara atandukanye. Amwe asa n'umweru, andi asa na kaki, andi asa n'umutuku, andi asa n'umukara, andi asa n'umuhondo. Impande yazo hari umwana wambaye inkweto zisa n'umuhondo.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amabase afite amabara atandukanye amwe asa n'ubururu, andi asa n'icyatsi, hirya hari udusume bakoresha bahanagura ibyombo, hariho abantu batatu bahagaze baza kugura.

Isoko bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo indobo zifite amabara atandukanye, harimo asa n'icyatsi, asa n'ubururu, n'asa n'umutuku. Impande y'iyo ndobo hari amabase afite amabara atandukanye amwe asa n'umuhondo andi asa n'icyatsi andi agasa n'umutuku.

Isoko ry' ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, inkweto zifite amabara atandukanye, amwe asa n' umweru, andi asa na kaki, andi asa n' umukara, impande yazo hari indobo ifite amabara atandukanye, amwe asa n' umweru, andi asa n' icyatsi impande y' indobo hari inkweto bita bote.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imyenda ifite amabara atandukanye, imwe isa n'umutuku, iyindi isa n'ubururu, iyindi isa n'umweru, iyindi isa n'umukara. Iruhande rw'iyo myenda hari abantu benshi cyane bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, imwe isa n'ubururu, iyindi isa n'umweru, hirya hari amazu.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imbuto zifite ubwoko butandukanye, harimo amaronji, wotameloni, ibinyomoro, amatunda, pome, hirya hari indobo ziteretse, hirya hakaba umukarani wambaye isarubeti isa n'ubururu.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye birimo kure. Ibitunguru impande zabo harimo abantu benshi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, arimo asa n'icyatsi, asa n'umuka, asa n'umweru, n'asa n'umutuku.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizagamo ibicuruzwa bitandukanye, hariho inzu zubatswe mu buryo bugezweho zifite amabara, atandukanye amwe asa n'umweru andi, asa n'umukara. Impande yazo hari umutaka usa n'umuhondo.

Isoko ry'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibikapu bifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asa n'umutuku, andi asa na kaki, harimo abagore babiri bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, andi asa n'umweru, andi asa n'umukara.